Udushushanyo tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye by'umwihariko amashuri y'inshuke, tuba turi mu mabara menshi ndetse tukaba ari na twiza cyane.

Abana bakiri batoya bambaye utugofero tw'abisilamu, bakaba bari kugenda batera irange ku rukuta bigaragara ko bari gushaka kubyitoza kugira ngo na byo bazabashe kubimenya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba ari inyubako nziza cyane ku buryo umuntu wese wayubatse iyo ayirebye yikomanga mu gatuza akishima cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite igikuta giteye amarange y'umweru, ikaba ari inyubako yagirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yutswe mu buryo bugezweho, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho iyi nyubako ari ingirakamaro cyane kuko ibiriho byinshi.

Udukoresho tugiye dutandukanye abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke bifashisha bari kwigisha abana kugira ngo abo bana babashe kumenya amabara agiye atandukanye y'ibikoresho.

Udushushanyo tugiye durutana turi mu mabara na yo agiye atandukanye ari yo icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku, tukaba twifashishwa bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Udushushanyo twinshi cyane turi mu mabara menshi agiye atandukanye ndetse n'udupupe, tukaba turi mu ishuri ryigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho aba banyeshuri babasha gukurikira amasomo yabo bakayatsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, haba hashushanyijeho amoko agiye atandukanye aho abana bifashisha aya moko bari kwiga kugira ngo batsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ari inyubako y'ishuri yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ikaba ishushanyijeho inyamaswa izwi nk'inzovu aho iri kugenda isohora amazi mu mugobora wayo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Haba hashushanyijeho amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo biri mu mabara menshi cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Hanze haparitse moto ndetse hahagaze n'abantu bagiye batandukanye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke aho bateraniye hamwe ku meza bari kurya, bari kurya akawunga aho bari kurisha intoki, bakaba babahishe mu maso kugira ngo tutaza kubamenya.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye kikaba kiri ahantu mu busitani kikaba gikikijwe n'amabara ari mu ibendera ry'u Rwanda ari yo ubururu, umuhondo ndetse n'ibara ryiza cyane ry'icyatsi.

Ibipupe by'amoko agiye atandukanye byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, by'umwihariko nk'igihe baba bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya ayo mabara menshi cyane aba atandukanye ya kinyarwanda.

Ibishushanyo by'abagore ndetse n'abana aho bagiye kwambuka umugezi, umugore akaba afite umwana mu ntoki, hakurya hahagaze undi mugabo bigaragara ko uwo mugabo ari kureba uburyo ki uwo mugore n'umwana bagiye kwambuka umugezi.

Agakapu kari mu mabara y'umutuku, gashushanyijeho akanyamaswa k'agapusi, aho kano gakapu ari keza cyane ku buryo kabasha gutwarwamo amakayi n'umunyeshuri wiga mu mashuri y'incuke.

Mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, haba hari udushushanyo tugiye dutandukanye, abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya amoko menshi agiye atandukanye y'amabara.

Abantu benshi bagiye batandukanye abari mu mabara y'umutuku, ubururu, n'umuhondo bakaba bakoze urunana bishyize hamwe kugirango bashyire hamwe byose.

Amoko agiye atandukanye y'inyanya, aho ziri mu mabara nayo agiye atandukanye, ibi rero bikaba byifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Udupupe twinshi tugiye dutandukanye tw'amamodoka aho turi mu mabara menshi ku buryo umuntu wese wiga mu mashuri y'inshuke utu ngutu atwifashisha ari kwiga amasomo ye.

Ibipupe bigera muri bitatu by'imbata biri mu mabara y'umutuku, ibi bihumbi bikaba ari ingenzi kubera ko byifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Utunyoni tw'udushwiriri tugiye dutandukanye dukunze kwifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke bari kubigisha ibijyanye n'umugani w'udushwiriri kugira ngo aba bana bazabashe kugira ubumenyi bwinshi cyane.

Wurudu iri mu mabara agiye atandukanye, aho ari ingenzi cyane kuko yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke batwaramo igikoma kugira ngo baze kukinywa ntibashonja, maze bakomeze bakurikirane amasomo yabo batuje.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo mbere harimo ikuta giteyemo amarangi y'umweru ndetse hakaba hari n'agakapu k'umweru, gatwagwamo amakayi n'abanyeshuri bato.

Imyicundo iri mu mabara agiye atandukanye ikunze kuba iri ahantu ku kigo cy'amashuri y'inshuke, aho abana baza kuharira umunyenga mu gihe cy'akaruhuko.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, iba ishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye abanyeshuri bareberaho bari kwiga.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako zubabakishije amabati n'amatafari ahiye ziri mu mabara y'umuhondo, bigaragara ko zakozwe n'abanyeshuri bize imyumba n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba ari inyubako ubona ko ari nziza cyane ku buryo umuntu wese wabasha kuyibona yayishimira.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke higanjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano aho bari kugenda ku ntambwe bagiye ku ishuri kugira ngo bataza gukerererwa bityo mwarimu wabo akaba yabahana.

Agasanduku karimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho ibyo bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga isomo ry'imibare kugira ngo baritsinde neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hakaba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'udutebe twiza cyane.

Udukoresho tugiye dutandukanye turi mu mabara y'iroza ndetse n'icyatsi, tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, iyo bari kwigisha abanyeshuri ibipimo.

Utuziga tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza iyo bari kwiga isomo ry'imibare kugira ngo babashe kumenya gukuba, kugabanya no guteranya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweh,o aho iteye amarange y'umweru ndetse n'umuhondo ku bikuta, bikaba bigaragara ko iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Utubuwati tubiri turi mu mabara y'umutuku ndetse n'akandi kari mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo, tukaba turimo ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Agakoresho k'agakoni kari mu mabara y'umweru n'ubururu, kakaba kifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kumenya aya mabara menshi agiye atandukanye maze bizabafashe, bibagirire umumaro batere imbere.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubwubatsi, aho haba harimo inyundo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bifashisha bari kwiga amasomo yabo ya buri munsi kugira ngo batinde.

Udushushanyo tuba turiho imibare igiye itandukanye ndetse n'amabara agiye atandukanye twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke kugira ngo bigishe abana kubara ndetse babereka n'amabara menshi.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye aho kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo uburezi buzira inenge.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho ibyo bikoresho ari ingirakamaro cyane ku buryo umunyeshuri wese ubyifashishije atsinda isomo ry'imibare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'amashuri, aho yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite n'urugo rwiza cyane abanyeshuri banyuramo.

Itorero ry'abantu bagera kuri batatu, aho hari umunyamakuru umwe ufite insakazamajwi ari kugenda ayitunga umwana amubaza ibibazo, bigaragara ko ashaka ko umwana amusubiza.

Hari ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko bari kubigisha gusoma, aho hari igitabo cyitwa Gasaro n'abajura,

Iyo bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunda kubigisha kugira isuku, bakarinda kwangiriza ibidukikije aho hari umwana uri kujya kwitumamo kandi bitemewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse mo imbere hakaba harimo abantu b'abanyeshuri bigiramo igihe bakeneye gukora isubiramo.

Abana bagera muri batanu bahuriye hamwe ku kibaho aho bose bari kugenda bandika ariko bapfukamye hasi bigaragara ko iki kibaho kiri ahagana hasi cyane ku buryo nta muntu wacyandikaho ahagaze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri aho mo imbere higiramo abanyeshuri bagiye batandukanye, hakaba hari n'ikigega kiri ahantu mu kirere.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka volley ball kikaba kiri ahantu heza cyane, hakaba harimo ibibuga byombi abakinnyi bakiniramo kugira ngo babashe gutsindana neza.

Udushushanyo tubiri tw'ibimera aho harimo ishu ndetse n'urutoryi, bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, aho bifite amaso, amatwi ndetse n'amazuru bikaba biri guseka.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'icyatsi ku bikuta aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye.

Inyubako nziza cyane ikinze neza, hanze hakaba hari inyamaswa izwi nk'impyisi bigaragara ko ishaka gukomanga kugira ngo abana barimo nibakingura ize kuba yabarya.

Udukoresho tugiye dutandukanye, turi mu mabara menshi agiye atandukanye, tukaba udukoresho twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo bari kwiga isomo ryabo ry'imibare.

Udukarito twinshi tugiye dutandukanye turimo amoko y'udukinisho tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi, bikaba byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke aho baba bari kwigisha abana amabara menshi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane by'umwihariko nk'igihe umuntu ajyanye umwana we ku ishuri ni aha bamushyira.

Umugore wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara akaba yicaye mu ntebe yo muri kaminuza ari kwandika ariko akaba yipfutse mu maso kutagira ngo hatagira umuntu uza kumumenya akamenya uwo ari we.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa se amashuri abanza iyo bari kwiga isomo ryabo ry'imibare.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri ya Nyagatare, aho ifite urugo rwiza cyane rufite urugi rw'ibyuma ndetse hakaba handitseho ikirangantego ndetse n'ikirango cy'ishuri hejuru ku kigo.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye aho ari ibishushanyo by'abahungu babiri ariko bifite umutwe cyangwa umunwa nk'uw'inyoni, bakaba babyifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bateraniye hamwe, aho bicaye bakurikira amasomo barimo kwigishwa na mwarimu wabo nubwo uwo mwarimu wabo ubari imbere atari kugaragara neza.

Inyamaswa ijya kumera nk'imbwa ariko ifite umurizo umeze nk'icumu, ikaba ifite akanwa nk'ak'inkoko iri mu mabara y'umukara, bigaragara ko bayifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'umweru ishushanyijeho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, iyi nyubako rero yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho baba bari kwiga ibi bishushanyo.

Udukapu tugera muri dutatu aho harimo tubiri tunini n'akandi kamwe gatoya, ibi bikapu bikaba ari ingenzi cyane kubera ko byigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho harimo umugabo, umugore ndetse n'abana, bakaba bateraniye hamwe bicaye abana hanyuma nyina na se na bakuru babo bari kugenda babaganiriza.

Ni udushushanyo twinshi cyane tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke kugira ngo abo bana babashe kumenya amabara menshi agiye atandukanye maze bajijuke.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi na yo agiye atandukanye, tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke igihe bari kwigisha abanyeshuri isomo ryabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho isakaje amabati atukura. Iyi nyubako rero ikaba yarateye imbere ku buryo umuntu wese uyibonye ahita amenya ko yigirwamo n'abanyeshuri.

Udukoresho tugiye dutandukanye ndetse turi no mu mabara agiye atandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho utu dukoresho tuba ari twiza cyane iyo bari kwiga amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Hakaba harimo udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye.

Agasanduku karambitse ahantu, kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare, kakaba ari keza cyane kandi karimo ibikoresho byiza.

Udukinisho tugiye dutandukanye tuba turi ahantu, aho twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, aho baba bari kwigisha abanyeshuri amoko agiye atandukanye y'ibikinisho cyangwa ibikoresho byiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo amabara agiye atandukanye, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kumenya amoko agiye atandukanye y'amabara.

Udushushanyo tugiye dutandukanye, tuba turimo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, igihehe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare. Haba harimo amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu nama, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye amadarubindi akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo na bo bamukurikiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bahuriye hamwe, aho imbere yabo hari umwarimu ari kugenda abafasha gukora ikizami cyabo kugira ngo arebe ko baza kugitsinda neza.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, yubatse mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo abanyeshuri bagiye batandukanye. Bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu bari kugenda harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye utujiri tugiye dutandukanye bigaragara ko ari abantu bakora umwuga wo gukanika ibintu runaka biba byaragize ikibazo.

Umwana wiga mu mashuri yisumbuye akaba afite mudasobwa imbere ye, yambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano z'ishuri, ari kugenda areba muri iyo mudasobwa kugira ngo amenye ibintu bya tekinolojiya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yayo hahagaze abayobozi b'icyo kigo bari kuhifotoreza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe aho bari mu nama, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri imbere yabo hari umunyeshuri umwe ufite indangururamajwi ari kubagezaho igitekerezo cye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe, aho bari gufata ifoto y'urwibutso. Barishimye ni benshi kandi baranezerewe bigaragaza ko igikorwa barimo bose kibashimishije.

Abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bakaba bambaye utujire tugiye dutandukanye aho bari kugenda batembera bigaragara ko bari mu bushakashatsi.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye baba ari abahanga cyane aho baba bazi gukora ibijyanye n'amashanyarazi neza cyane mu buryo bukwiriye cyane.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe, bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari gukoma amashyi, aho bose hamwe bishimye, bakaba bari kumwe n'umusaza ufite ikibazo cy'inyonjo ariko nawe akaba yishimye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, by'umwihariko nk'abanyeshuri baba biga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, aho bahakorera ubushakashatsi.

Abantu benshi cyane biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu gikorwa cyo kwamamaza, bari kumwe na polisi aho bafite banderole mu ntoki bari kugenda batangaza yanditseho amagambo agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako iruhande rwayo hari abantu bagiye batandukanye aho ari inyubako y'amashuri abanza.

Abanyeshuri bashoje mu mashuri yisumbuye, bambaye amakanzu agiye atandukanye ndetse n'udupira tw'icyatsi, bakaba bari kwishimira uwo munsi kubera ko ari amahirwe aza rimwe mu buzima.

Umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bari kugenda bamukurikira kugira ngo bumve ijambo ryiza cyane ashaka kubagezaho.

Abanyeshuri biga mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mumabara y'ubururu, bari kugenda batambuka, bigaragara ko bishimye kubera ko ahantu bagiye ari hera cyane kandi habashimishije kugerayo bwa mbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere hateraniye abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, bambaye utujeri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi, bakaba bari gukora akarasisi batereye ibando ku rutugu, bakaba bahagaze mu busitani.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ahobere hateraniyemo abantu benshi cyane bambaye utujiri, bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye biga ibijyanye n'amashanyarazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari hamwe bicaye bakurikiye isomo mwarimu wabo ari kubigisha kugira ngo babashe kwiga neza maze bazaritsinde mu kizamini cya leta.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse hakaba hari n'ubwiherero hepfo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu. Bakaba bahagaze bari kwifotoza bigaragara ko bashaka gufata ifoto y'urwibutso.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye yambaye impuzankano y'ishuri, afite igitabo n'ikaramu ari kugenda asoma kugira ngo yiyibutse amasomo ye yize maze aze kubasha gutsinda neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'amashuri, yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe, aho yicaye bambaye impuzankano z'ishuri ndetse bakaba bambaye n'amashati y'umweru, bakaba bari mu nama aho bakurikiye umuntu uba imbere arikoresha iyo nama.

Abanyeshuri bicaye imbere y'ibitabo bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, ubu bukaba ari uburyo bwiza cyane bifashisha buri gukora ikirango k'ikigo cy'amashuri runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere hateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye bambaye utujire. Biragaragara ko ari abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, mo imbere harimo abanyeshuri bagiye batandukanye bigaragara ko bigira muri iyi nyubako, biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto, aho iyo moto itwaye umugenzi, hakaba hari n'abantu bari ku ruhande bari kugenda bareba iyo moto ukuntu iri kugenda itambuka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba isakaje amabati meza cyane y'umutuku kandi ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho harimo intebe ziri mu mabara y'ubururu, ikaba ari inyubako yigirwamo nabanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza.

Igishushanyo k'ikimera gifite amababi agiye atandukanye, kikaba ari igishushanyo kiza cyane cyakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro by'umwihariko mu mashuri ya kaminuza.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bateraniye hamwe, aho bicaye ku ntebe zabugenewe bari kwiga bakurikiye mwarimu kugira ngo bumve ibyo ababwira maze na bo bizabagirire umumaro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kiyambere ikaba ari inyubako y'amashuri yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko nk'abiga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri ya kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikozwe mu buryo bw'ubugeni, biba byarakozwe n'abanyeshuri bize amashuri ya kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako yubatse mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarangi agiye atandukanye ndetse isakaje amabati y'umutuku n'umweru.

inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'umweru ku rukuta, ikaba ifite ikibaho cyanditseho amabara y'icyatsi, ikaba ari inyubako yigirwamo.

Akavaze karimo imikubuzo bigaragaza ko ari uburyo bw'imitako, aho abantu badutaka tukamera neza maze bakatwifashisha umuntu uturebye akabona duteye ubwuzu ndetse n'amatsiko.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'amashuri aho higiramo abanyeshuri bagiye batandukanye kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo maze batsinde.

Imodoka izwi nk'imbangukiragutabara iri kugenda ahantu mu mbuga ishashemo amapave hari n'abandi bantu bari kugenda muri iyo mbuga bigaragara ko iyo modoka hari umuntu wagize ikibazo cyihutirwa yaba igiye kuzana.

Ibibumbano byinshi cyane bikoranywe ubugeni bigaragaza ko biba byarakozwe n'abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro ndetse bakaba barabikurikiranye no mu mashuri yisumbuye.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye biba bimanitse ku nkuta z'amashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, ibi bishushanyo rero biba ari ingenzi cyane ku buryo abantu babibona bakishima.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako mo imbere harimo abantu bagiye batandukanye, aho abo bantu ari ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Abanyeshuri bashoje kwiga muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda bakaba barize ibijyanye n'ibyo bakunda, bakaba bahagaze bari kwifotoza bigaragara ko ari umunsi bambaye amakanzu, bakaba bishimiye ko basoje.

Abanyeshuri baba barize muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko abize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, baba ari abahanga cyane ku buryo babasha gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo iyo babishushanyije abantu bagira ngo ni iby'ukuri s'ibishushanyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako ya kaminuza. Harimo abanyeshuri bagiye batandukanye, bicaye bakurikiye amasomo mwarimu wabo ari kubagezaho kugira ngo babashe kwiga neza kandi bazatsinde neza, ibyo mwarimu wabo aba yabigishije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo bahakorere ubushakashatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba harimo ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse harimo n'ibiti birebire bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza baba ari abahanga cyane ku buryo igihe cyose ubakenereye baza bakakwiyereka kuko baba bafite ubumenyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri za kaminuza, hakaba hicayemo abanyeshuri benshi cyane bakurikiye mwarimu wabo uri imbere arimo kubigisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite umuryango ufite inzugi zicyatsi ariko ikirahure kikaba kiri gusa fime, hashushanyijeho igisigaga kiri kuguruka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako yo muri kaminuza, harimo udutebe twiza cyane tw'ubururu abanyeshuri bifashisha bari kwandika ndetse banakurikiye.

Abanyeshuri bashoje amashuri ya za kaminuza bakaba bari kwishimira ibirori by'umunsi wabo kubera ko barangije amashuri, bakaba bambaye ingofero zabugenewe n'amakanzu byiza cyane.

Agapfukantoki kari mu mabara y'umukara bikaba bigaragara ko kanduye cyane gakoreshwa n'umunyeshuri wiga ibijyanye no gukanika ibinyabiziga none akaba amaze gukanika kakaba kandiduye yagakuyemo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, yewe n'abiga mu mashuri ya kaminuza bayigiramo maze bakaba bamenye ubwenge.

Ibikoresho byiza cyane dukunda gusanga muri kaminuza, aho haba harimo insakazamashusho ndetse n'ibishushanyo biba bimanitse ku bikuta, byarashushanyijwe n'abanyeshuri bize muri kaminuza ibijyanye n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarange y'umweru ku bikuta ndetse mo imbere hakaba higiramo abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ari ingirakamaro cyane kuko itanyurwamo serivisi z'uburezi kubanyeshuri biga muri za kaminuza.

Uukoreshasho tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abantu batera irange. Hakaba harimo udupfukantoki, hari n'agakombe kavamo irangi, bigaragara kokari kari kwifashishwa n'umunyeshuri wize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere hateraniyemo abantu benshi cyane bari kwifotoza, hakaba higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo bari kwifotoza bose.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'ibiti aho akayira gashashemo amabave kakaba ari keza cyane kandi gakikijwe n'ubusitani.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba kandi ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iri kwigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho hari umwarimu uri kugenda abigisha mudasobwa kuko buri wese imbere ye harambitse mudasobwa.

Ahantu mu mudugudu hanyuzemo n'agahanda bigaragara ko ari igishushanyo cyakozwe n'umunyeshuri wize muri kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abakobwa ndetse n'abasore biga muri kaminuza bakaba bambaye udupira tw'icyatsi ndetse n'udukarita twerekana icyo bakora cyangwa ikibahurije aho ngaho uwo munsi, bakaba bicaye bari mu nama bishimye.

nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Mo imbere harimo ibikoresho by'ibibumbano, bikozwe mu buryo bw ubugeni, biba byarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda. Ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.